Agapupe keza cyane kifashishwa n'abana biga mu mashuri y'insuke, gafite inda y'umweru, amaguru n'amaboko, hari amabara arabagirana, gafite umutwe n'amazure ameze nk'ay'imbwa.

Ni mu kigo cy'amashuri y'inshuke aho hari ibyuma bitandukanye ndetse n'ibikinisho bya palasitike abana bato bifashisha mu kumva umunyenga ndetse n'indi myidagaduro itandukanye, bikaba biri mu mabara menshi cyane.

Umwana muto w'umukobwa yambaye impuzankano y'ishuri akaba yiga mu mashuri y'inshuke, umupira w'igitaka ndetse ukaba urimo uturango tw'umweru, aho ari imbere y'abandi banyeshuri ari kwandika ku kibaho yifashishije irangi.

Ishuri ryiza cyane ryo mu kigo cy'abanyeshuri b'inshuke, rikaba iterangi ry'umweru, rishushanyijeho ifi iri mu bwoko bw'inyenyeri, hasi handitsweho n'izina ryayo mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni mu kigo cy'amashuri y'inshuke. Hari ishuri rimwe riteye irangi ry'umuhondo. Rikaba rishushanyijeho ingorofani, inyama, imboga ndetse n'ibindi ndetse n'amazina yabyo mu rurimi rw'Icyongereza.

Igipupe gisa n'icyatsi kirasamye cyane gifite amenyo, kikaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho baba bari kwimenyereza inyamaswa, imbere yacyo hari imbunda y'igikinisho iri kurasa.

Ni ikigo kimwe cy'amashuri y'inshuke, hakaba hari igikoresho kiri mu mabara y'umuhondo, umutuku ndetse kikaba kirimo uturongo tubiri tw'ubururu kifashishwa n'abana bato mu kumva umunyenga.

Igitabo cyifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke, kikaba kiriho amashusho atandukanye, imwe igaragaza umupolisi uri guhagarika imodoka, indi igaragaza imisambi, indi ikagaragaza ubwogero burimo abantu benshi.

Kandagira ukarabe ikozwe mu cyuma ikaba iteye irangi ry'ubururu. Iriho indobo y'umuhondo ari na yo ivamo amazi, imbere hakaba hariho akabase gato kagwamo amazi abantu bamaze gukaraba. Ikaba yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakaraba intoki.

Ni mu kigo cy'amashuri y'inshuke, ishuri rimwe riteye irange ry'umuhondo rikaba rishushanyijeho ibikoresho bitandukanye birimo n'ingorofani hejuru hari izina ry'iyo ngorofani mu rurimi rw'Icyongereza.

Abana biga mu mashuri y'inshuke mu Rwanda bigishwa amasomo atandukanye arimo n'umuziki, hakaba hari igipapuro bigishirizwaho indirimbo yitwa ngo nkunda gusiga irangi.

Mu kigo cy'amashuri y'inshuke hari ikicungo kiza cyane kiri mu mabara y'umuhondo n'ubururu, hakaba hari abana babiri bambaye impuzankano bagiye kumvamo umunyenga. Inyuma yabo hari abagabo n'abagore bambaye imipira y'umuhondo bisa naho ari abarezi.

Mu kigo cy'amashuri y'inshuke hari ishuri rimwe riteye irangi ry'umuhondo, rikaba rishushanyijeho inyamaswa y'agasumbashyamba. Ikaba iri mu ishyamba aho isumba ibiti byose, hirya hakaba hashushanyijeho umugabo wambaye karuvati.

Igitabo k'Ikinyarwanda kifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza. Hakaba hashushanyijeho igiti, ndetse hari n'imibare kuva kuri rimwe kugera kuri karindwi. Hasi handitseho ngo kinyarwanda.

Ibintu byifashishwa mu kwigisha abana biga amashuri abanza, birimo inanasi iriho umubare rimwe, umuneke umwe, imodoka imwe, hakaba amaronja abiri, ibitunguru bibiri ndetse n'ibikombe bibiri aho abana babyifashi biga kubara.

Igitabo kigishirizwamo abana biga mu mashuri abanza, gishushanyijeho umwana muto wambaye impuzankano akaba ari kureba inyuma ndetse hakaba handitseho n'andi magambo y'Icyongereza asobanura ngo umwana ni njye.

Mu mashuri abanza hari igitabo kifashishwa mu kwigisha abana umuco nyarwanda. Aho kiba gishushanyijeho inzu, kiriho igiti, abana bato bicaye mu mucaca ndetse n'umusaza wicaye ku ntebe, ari kubaganiriza ababwira amateka ya kera.

Mu kigo cy'amashuri abanza hakaba harimo ibitabo byinshi cyane byifashishwa mu kwigisha abana baherererwa biteretse ku ntebe. Ibyinshi muri byo akaba ari ibitabo by'inkuru ndetse n'imigani ya kera.

Ikigo cy'amashuri abanza, kiriho igitabo cyanditseho amagambo asobanura Ikigo cy'Igihugu cy'uburezi bw'ibanze mu Rwanda, akaba yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, inyuguti z'impine ndetse n'izirambuye.

Ikigo kiza cyane cy'amashuri abanza kirimo amashuri yubakishije amatafari ahiye y'impunyu akaba ari amashuri meza cyane atondekanye, inyuma yayo hakaba hari indabyo nziza cyane ndende aho ku ibaraza ry'iryo shuri hahagaze abantu batatu.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. By'umwihariko mu isomo ry'imibare, harimo imashini iteranya, gukuba, kugabanya ndetse no gukuramo imibare, amakayi n'amakaramu, amarate ndetse n'ibindi.

Ishuri ryo mu kigo cy'amashuri abanza, ryubakishije amatafari ahiye, ririmo inzugi n'amadirisha bikozwe mu mbaho bikaba biteye irangi ry'icyatsi, iri shuri rifite ibaraza ndetse rikaba rifite amabati ashaje ubona ko ari irya kera.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza by'umwihariko mu kwiga isomo ry'imibare. Twavuga imashini iteranya, igakuramo, ikagabanya, ikanakuba imibare ndetse n'ibindi bitandukanye birimo amarati, amakayi n'amakaramu.

Ni mu kigo cy'amashuri abanza, ahari amashuri meza cyane y'akataraboneka, aho ari igorofa rigereretse rimwe yubakijeje amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu ndetse n'inzugi ziteye amarangi y'ubururu.

Ibikoresho byinshi cyane byifashishwa mu mashuri abanza bikaba bitondetse mu ishuri. Birimo ibikinisho by'abana, ibitabo, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi byifashishwa mu kwigisha amabara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo dutoya dutambitse n'utumanutse, akaba ari umwarimu mu mashuri abanza aho yicaye mu ishuri akosora ikizamini yari yahaye abana, ishuri arimo riteye irangi ry'umuhondo ndetse n'ikibaho cy'umukara.

Ni inziga ebyiri zinyuranyuranamo, zikaba ziri mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'aho zihuriye, hakaba harimo ibara ry'umutuku n'ubururu bivanze, aho bigisha abana biga mu mashuri abanza, uburyo bwo guhuza no guteranya ibintu.

Mu kigo cy'amashuri abanza bigira mu bitabo bitandukanye, aho baba bigisha amazina y'ibintu, inyamaswa ndetse n'ibikoresho byo mu rugo, aha twavuga nk'insina, inyamaswa z'intama ndetse n'ihene, bikaba biriho n'amazina yabyo mu Kinyarwanda.

Ibikoresho bitandukanye mu mabara y'icyatsi, umutuku, ubururu, umuhondo ndetse na move, bikaba byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, aho baba bari kwiga uburyo butandukanye ibintu byinshi bikorwamo.

Ni mu kigo cy'amashuri abanza mu Rwanda. Hakaba hari amashuri menshi cyane yubakishije amatafari ahiye. Imbere hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari ikigo cy'amashuri abanza cya Nyagatare.

Akantu keza cyane kabajwe mu giti kakaba kifashishwa n'abana biga mu amashuri abanza mu kubara imibare ndetse na kumenya amabara atandukanye harimo umuhondo, umutuku, cyatsi n'ubururu ndetse n'imibare yose uva kuri rimwe kugera ku ikenda.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, mu buryo bwo gukora imyitozo ngorora mubiri. Twavuga amabalo meza cyane y'umupira w'amaguru ari mu mabara y'umuhondo, icyatsi, ubururu na move, ndetse n'ibindi bikoresho birimo amakaramu ya giti n'ibindi.

Ahantu heza cyane hari ubusitani ndetse hakaba hateye amabengeza, ni mu kigo cy'amashuri abanza aho hari amashuri amwe yubatswe hifashishije amatafari ahiye yuzuye ndetse n'andi bakiri kubaka.

Igitabo cy'amashuri abanza. Kikaba cyigisha abana bato kutannya ku gasozi, aho kigaragaza umukobwa wambaye isengeri y'umutuku wamanuye imyenda, akaba ari kwituma mu mazi atemba.

Igitabo kiza cyane kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, gishushanyijeho abantu bane, babiri bari koza ibikoresho byo mu rugo, mu gihe abandi babiri bari gukora amasuku mu cyumba bararamo, banahakoropa.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyane cyane mu isomo ry'imibare. Harimo amarati, isaha, kompa, amagoma ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye mu mabara atandukanye.

Umwana mutoya wambaye impuzankano ari mu kigero k'imyaka irindwi, akaba yiga amashuri abanza, ari mu ishuri, akaba afite ingwa aho ahagaze imbere y'abandi yandika urutonde rw'inyuguti mu Kinyarwanda.

Ni mu kigo cy'amashuri abanza, hari amashuri menshi cyane yubatse mu buryo bw'agatangaza, ateye irangi ry'umuhondo n'ubururu, akaba afite ibaraza rinini cyane abantu bugamaho, hagati mu kibuga hakaba harambitse amabati.

Mu kigo cy'amashuri abanza, hari amashuri abiri. Hakaba n'ubwiherero busakaje amabati y'ubururu ndetse n'urugi. Imbere yabwo hari ubusitani bwiza cyane butoshye burimo n'igiti, hakaba hari abantu babiri, umwana muto w'umukobwa ndetse n'undi mugabo.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye. Bambaye impuzankano. Benshi muri bo bambaye amapantaro n'amajipo bya kaki ndetse n'imipira n'amashati by'umweru, imbere yabo hakaba hari umusore umwe wambaye na karuvati uri kubaganiriza.

Abakobwa biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abahungu, bicaye hamwe mu ishuri bambaye impuzankano irimo ishati y'umweru ndetse amapantaro n'amajipo akaba ari aya kaki, umwe muri bo yambaye umupira w'umuhondo w'ubudodo, bakaba bafite amakaye n'amakaramu bari kwiga.

Abantu bakora mu kigo cy'amashuri yisumbuye. Benshi muri bo ni abarimu ndetse hakaba harimo n'umwe w'umufundi. Aho yambaye ingofero irinda umutwe y'umuhondo ndetse n'akajire. Bakaba bahagaze ku ibaraza ry'ishuri, aho imbere yabo hari umuntu uri kubaganiriza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye udupira tw'ubururu tw'amaboko magufi ndetse n'amapantaro y'imikara, bakaba batonze imirongo ubona ko bari mu myiyerekano, iruhande rwabo hakaba hari n'ibisharagati by'umweru.

Abana bato biganjemo abakobwa, biga mu mashuri yisumbuye bakaba bambaye impuzankano, barahagaze imbere y'abo hari umugabo watebeje ufite ibiti bibiri mu ntoki ari kugenda abaganiriza.

Abantu batanu bahagaze barimo abanyeshuri bane biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano babiri babiri bakaba biga ku kigo kimwe, bari kumwe n'umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano ya gisirikare.

Inyubako yo mu kigo cy'amashuri yisumbuye. Ikaba iteye irangi ry'umuhondo irimo inzugi z'ibyuma ziteye irangi ry'umukara. Ikaba ifunguye urugi rumwe aho, hanze hari abantu benshi cyane baje gushaka serivisi.

Ni abantu benshi cyane bakaba barimo abakozi, abarimu ndetse n'abandi batandukanye bakora mu kigo cy'amashuri yisumbuye, bicaye hamwe mu nzu iteye ibirahuri ndetse ikaba irimo amakaro aho bari kuganira bishimanye.

Umusore wambaye impuzankano y'ishuri, yambaye n'ijire y'icyatsi y'Umuryango Mpuzamahanga wita ku mbabare, akaba akurikiwe na bagenzi be batatu barimo abakobwa babiri n'umuhungu umwe, bose bigana mu mu mashuri yisumbuye.

Abana bato biga mu mashuri yisumbuye, abenshi muri bo ni abakobwa bambaye impuzankano irimo amajipo ya kaki ndetse n'imipira y'amaboko magufi isa n'ubururu, inyuma yabo hakaba hari ishyamba.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ni abakobwa b'abirabura bambaye impuzankano irimo amashati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu, buri wese akaba yahuje ibiganza, hakaba harimo n'umukobwa w'umuzungu.

Ikigo cyiza kikaba ari urwunge rw'amashuri rwa Nyagatare gifite amarembo y'akataraboneka, aho hari urugi rukozwe mu cyuma, igipangu cyabo kikaba giteye irange ry'icyatsi cyererutse ndetse hakaba hari n'imbuga irimo amapave.

Inyubako y'ubwiherero ikaba ijyamo abagore n'abagabo. Yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, hari abagabo babiri bambaye amajire bisa naho bakiyubaka. Iruhande rwayo hakaba hari ikigega cy'umukara gifata amazi aturuka kuri iyi nyubako.

Ni mu ishuri rya Kaminuza cyangwa se akaba ari mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro, ahari inyubako nini cyane iberamo inama, hakaba harimo intebe nyinshi za parasitike ziri mu mabara y'ubururu.

Ni mu kigo cya Kaminuza. Cyangwa se akaba ari mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro, ahari intebe ya parasitike y'ubururu, iruhande rwayo hakaba ateretse indabo imutuku, aho byose biri iruhande rw'urugi ruteye irange ry'icyatsi.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'abiga mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro bahawe impamyabumenyi z'ibyiciro basoje, hari ibisharagati byinshi cyane biri mu mabara y'umweru n'ubururu, imbere mu kibuga hakaba hari abanyeshuri bishimye.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse no mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro bateraniye hamwe mu ishuri, buri wese afite mudasobwa ye akaba ari kwiga, umwe muri bo akaba ari umukobwa uhagaze wambaye umukufe mu ntoki, uri kugenda asuhuza buri muntu.

Agatebe karekare gakozemo mu mbaho kakaba gateye verineni y'umutuku, kari imbere y'inzu mui ibaraza, aho iruhande rwako hari utundi dutebe dutatu twa pulasitike turi mu ibara ry'ubururu.

Abantu babiri. Ni umukobwa n'umuhungu, bakaba bari kugenda mu kayira ko mu ishuri rikuru ry' imyuga n'ubumenyi ngiro cyangwa se ikaba ari kaminuza, dore ko hari ubusitani bwiza ndetse n'inyubako nziza cyane.

Inyubako nini cyane ya kaminuza y'u Rwanda cyangwa se ikaba ari iy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro, ni igorofa igeretse rimwe, iteye irangi ry'umweru, imbere hari imbuga irimo amapave ndetse hakaba hari n'umuntu umwe uri kugenda.

Ni ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro, rikaba rifite inyubako zitandukanye, inyinshi muri zo zikaba ziri kuvugururwa, bari kuzivugurura bazitera amarangi, aho bari kuyavangira mu ndobo y'ubururu ndetse n'iy'icyatsi, hasi hakaba hari n'indi ntebe bari guhagararaho.

Abanyeshuri biga amasomo y'ubuganga muri za Kaminuza. Ndetse no mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Bari mu nzu umwe muri bo akaba yambaye itaburiya y'umweru n'amadarubindi, aho ari kureba muri mikorosikope.

Muri Kaminuza ndetse n'amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro hakunda kwifashishwa ikibaho nk'uburyo gakondo bwifashishwa mu Rwanda, mu kwigisha abanyeshuri bagafata neza. Hakaba hari ikibaho cy'umweru cyanditseho amagambo y'Icyongereza.

Abanyeshuri biga mu amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro, bakaba bari mu kigo cyabo aho bari kumanuka mu nyubako y'igorofa mu masikariye arimo amakaro, ku ruhande hakaba hari ibyuma bitangira umuntu kugira ngo atagwa.

Ni mu kigo cy'amashuri y' imyuga n'ubumenyingiro, hakaba hari ishuri rimwe riteye irangi ry'umweru rikaba rifite urugi runini cyane rw'ibirahuri ruteyeye irangi ry'icyatsi.

Abanyeshuri beza cyane bakaba basoje amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro ndetse n'abandi basoje kaminuza bicaye hamwe mu gisharaga bambaye amakanzu yabo, aho baje gufata impamyabumenyi z'ibyiciro basoje.